Inama zitangwa kenshi n'abantu babyifuza ni uko igihe umuntu akoresheje uburyo butagezweho mu kwishyura akoresheje ikoranabuhanga ashobora guhuriramo n'uburiganya bukomeye.

Benshi mu banyamuryango ba FPR Inkotanyi mu bikorwa byo gufasha abatishoboye hateganyijwe ko buri muntu wese azahabwa inka ndetse ikazajya imufasha kwiteza imbere.

Umugore umwe wambaye amarinete ufite umusatsi w'umukara ndetse n'abandi bagabo benshi barimo n'abanyamakuru, bateraniye mu cyumba k'inama ahabereye umuhango wo kurahiza abayobozi bashyashya.

Mu nama yahuje n'abamo urubyiruko, hari umusore wahagurutse atanga igitekerezo cy'uburyo yiteje imbere ndetse aza no gusoza akangurira abantu bagenzi be b'urubyiruko, kwitwararika bagakora amaboko mu mufuka birinda ibiyobyabwenge.

Ikigo cy'Igihugu gishinzwe iterambere mu Rwanda RDB, mu Karere ka Nyagatare cyavuze ko abantu biyemeje gushora imari mu bikorwa bitandukanye muri ako Karere, bagomba gushyiramo ingufu ndetse ko cyaborohereje ku misoro.

Mu nama yahuje abayobozi benshi ndetse n'abandi bafatanyabikorwa, barimo abasirikare, abapolisi, bize ku ngamba zo gufatira imyanzuro umuntu wese ugerageje kwica mugenzi we.

Umubyeyi bambaye imikenyero y'imyeru, yasusurukije abatari bake mu bukwe bwahuje abantu baturutse hirya no hino ku isi, muri Kigali Convention Centre.

Mu gushyigikira ndetse no guteza imbere umuco gakondo kugira udacika, hari bamwe mu bari n'abategarugori baserukiye Akarere ka Rubavu mu bikorwa byo kwizihiza umunsi w'umugore ku isi.

Benshi hari abagitsimbaraye ku muco gakondo, aho usanga kugira ngo bakoreshe ibyuma by'amahanga mu rusengero, ahubwo bahitamo gukoresha ingoma zibaje kandi nziza.

Imbyino gakondo ndetse n'abakaraza n'abaririmbyi usanga ari ikintu gikomeje gutera igihugu ishema bitewe n'abantu bagishimagiza bavuga ko ibyo bintu bigaragara neza.

Benshi bazi yuko igihe ahantu ujishe igisabo utagomba kuhatera ibuye, ibi ni nabyo bikoreshwa mu muhango w'ubukwe, aho abari bafata ibisabo bacundiramo amata, mu buryo bwo kwiyerekana neza ko umugeni wabo batagomba kumufata nabi.

Mu rwego rwo kwita ku muco ndetse no kuwusigasira kugira ngo udacika ni ngombwa ko hashyirwaho imitako ya kinyarwanda irimo nk'uduseke mu rwego rwo kuzirikana ubusugire bw'u Rwanda.

Ubwo umuco ugenda ucika wo kunywesha itabi inkono yayo, hari benshi bavuga ko byasimbuwe n'ibikamba ndetse n'amasegereti, aho kuri iki gihe kugira ngo ubone abakoresha ubu buryo ari abasaza gusa.

Ubwo kuri ubu ngubu hasigaye hakoreshwa imbunda ndetse n'ibindi bikoresho byifashishwa mu ntambara ariko abantu ba kera si ko byari bimeze kuko bakoreshaga imiheto ndetse n'imyambi.

Mu gikorwa cyateraniye uyu munsi mu Karere ka Kicukiro hari abantu baje bitwaje amasuka, ibitiyo, abagabo baje bambaye bote ubundi bahangana n'umuhanda wari warangiritse barawusana maze karahava koko!

Umuvure ufatwa nk'ikitegererezo ndetse n'igikoresho gakondo gifitiye runini abanyarwanda, kuko ariho ibitoki byengerwa, ndetse ukaba wanabinikira n'amasaka mu gihe biri ngombwa.

Bamwe mu bari bitabiriye ibitaramo bikomeye cyane byo kwizihiza umuco nyarwanda, hari abasizi bamwe bagiye bigaragaza mu buryo budasanzwe, ubundi bishimisha abari bateraniye aho bose.

Abantu benshi bazindukiye mu gikorwa cyo kwizihiza umunsi mpuzamahanga wahariwe kurengera umuco kugira ngo udacika, aho abagabo barimo n'abakenye imishanana, bafashe indangururamajwi ubundi baravuga.

Imwe mu mikino myiza kandi iy'ubuhanga izwi cyane cyane nk'igisoro ni iyaranze amateka y'u Rwanda mu Butegetsi bw'Abami kuko igihe bakundaga kuba bicaye bakinaga imwe muri iyo mikino.

Abasore babiri bakenyeye mu buryo gakondo bwa kinyarwanda, barishimira ubukwe bwa mugenzi wabo batashye kandi bavuga ko nabo ubutaha aribo bazakurikiraho.

Mu muco gakondo birakwiye ko abantu bishimira ndetse bagasusurutswa n'ibihangano gakondo, birimo nk'imbyino za kinyarwanda, aho abasore baba bambaye imishanana mu rwego rwo kubungabunga uwo umuco.

Insinga z'amashanyarazi igihe zose zashyizwe hamwe, zigomba gutanga umusaruro uhambaye bitewe n'uko abaturage baba bazikeneye ari benshi. Icyo gihe, igihe zibungabunzwe neza, zitanga umusaruro uri hejuru, kandi buri wese akanyurwa na wo.

Ikigo k'Igihugu gishinzwe gutanga ingufu z'amashanyarazi REG, kirabwira abaturage bose ko ari ngombwa kwirinda igihe bageze munsi y'amapironi atwara umuririro w'amashanyarazi, bityo bikazabafasha kwirinda ko haba inkongi y'umuriro.

Amashanyarazi akozwe mu buryo bugezweho kandi bw'ikoranabuhanga ntashobora kugenda igihe abantu bari kuyakoresha kuko haba hizewe umutekano n'ubudahangarwa bwayo.

Ingomero z'amashanyarazi ni ngombwa ko zibungwabungwa kandi zikarindwa abantu bazangiza, bitewe n'uko zifite runini abanyarwanda ndetse n'abandi bakora ibikorwa by'ubucuruzi.

Koperative icukura ibijyanye n'umuriro w'amashanyarazi mu kiyaga cya Kivu irakangurira abantu kwitwararika ku ngomero zayo bitewe n'uko haba hari ibyago by'uko havuka inkongi y'umuriro.

Zimwe mu mashini zikoreshwa mu nganda usanga hari benshi bakomeje kuvuga ko ari zimwe mu bitwara leta y'Igihugu cy'u Rwanda amafaranga atari make kugira ngo igeze abantu amashanyarazi aho ari ho hose.

Abakora ibikorwa by'ubucuruzi, mu nkengero z'umujyi wa Kigali barishimira amatara yabashyiriweho, aho mu gihe cy'umugoroba batakibwa n'ibisambo ahubwo bitinya amatara kuko buri wese aba abireba.

Abakora uburiganya ndetse n'ibikorwa byo kwiba amashanyarazi, biravugwa ko bakwiye kwitwararika bakanyitonda mu gihe ari gucokoza ibikoresho, kubera ko igihe abantu babikoze nabi bishobora guteza inkongi y'umuriro.

Ingomero nyinshi zitandukanye z'amashanyarazi zikomeje kuvugwaho ko zishobora kuba zitanga amashanyarazi atari ku rwego rwiza kuko ibi abaturage babivuga nyuma yo kubona ko imiriro igenda igenda hato na hato.

Iyo igicu kiremereye abahanga bavuga ko imvura ibirimo ariko igihe gikeye kirimo ibicu bikeya uba usanga ari neza kandi ntabwo in imvura iba yakagwa ku kanwa.

Ibintu bikomeje guteza impagarara ni ugushyira ingomero z'amashanyarazi ahantu hatuye abaturage kuko abana baho baza kuhakinira ubundi bikaba byabaviramo ni inkongi ibateza urupfu.

Mu ngoro y'ubutabera iherereye mu karere ka Nyanza, hari abantu bakomeje kuvuga ko bari gukemurirwa ibibazo byabo uko babyifuza, bitewe n'uko nta karengane kahakorerwa habe na mba.

Muri bimwe mu bintu bishimishije, abaturage baturiye mu karere ka Gatsibo ni ukubona bubakiwe ikiraro ndetse kikanatahwa ku mugaragaro ku rwego rw'Akarere, bakavuga ko kizaborohereza mu bucuruzi bwabo.

Nk'uko bisanzwe bimenyerewe mu Rwanda hazwi ko ari ho hantu ushobora gukura ingagi, igihe buri muntu wese ukeneye kuzisura hari amafaranga asabwa gutanga kugira ngo yemererwe gusura parike y'ibirunga.

Mu karere ka Nyagatare, hari umupaka, uhuza aka karere, ndetse n'utundi turere, uyu mupaka bikaba bivugwa ko, uherutse gufungwa bitewe, n'abacengezi bawinjiriyemo.

Uruzitiro rugizweho rwo mu kirere ruzwi cyane mu ndimi z'amahanga nka kanopewa, rukoreshwa n'abantu batari bake b'abakerarugendo ahanini, mu gihe bifuza gutembera ndetse no gusura u Rwanda.

Mu bikorwa by'ubucuruzi bikorerwa mu dusantere tugiye dutandukanye, abana bato cyane cyane abari munsi y'imyaka itanu, birakwiye ko bagomba kuhagera nabo bakagira byinshi bamenya.

Ingomero z'amashanyarazi, zigenda zongera ubudahangarwa ndetse n'ubushobozi bwayo, hashyirwaho ibizwi nko mu ndimi z'amaga byitwa taransifo kugira ngo zibashe kongera ingufu z'amashanyarazi atangwa mu baturage.

Mu bikorwa byo kuvugurura sitade y'Akarere ka Huye ikinirwaho n'ikipe ya Mkura harimo n'uko hagomba gushyirwaho amatara rutura azajya afasha abakinnyi gukora imyitozo n'iyo haba ari nijoro.

Ahakorerwa ibikorwa by'ubucamanza, hagomba kuba hari isuku kandi hubatswe mu buryo bugaragarira buri wese ko uwo ari wese, yaza akabagana bakamuha serivisi yaba yifuza.

Umupaka uhuza igihugu cy'u Burundi ndetse n'Akarere ka Rusizi, hari urugomero rukomeye cyane, abantu bafashe nk'aho ari rwo rwa mbere mu gihugu bitewe n'imbaraga z'amashanyarazi rutanga.

Ku mupaka wa gasutamo uhuza u Rwanda ndetse n'igihugu cy'Abagande, haravuga ko hakomeje gukazwa umutekano, n'abantu bashaka guhungabanya umutekano w'igihugu bagomba guhagurukirwa kandi bakarwanywa.

Girubuzima ni ikigo gikomeje gufasha abantu bafite ibibazo bitandukanye bijyanye n'imibereho kugira ngo babashe gusobanukirwa akamaro k'ubuzima bw'umuntu ndetse bakanakangurirwa kububungabunga.

Akarere ka Nyagatare irembo ry'amahoro, hakorerwa ibikorwa by'ubwiyunge ndetse abantu baje bahagana bakabaha inama zibafasha kuruhuka ndetse bakabaho batekanye.

Ikiraro cyambukiranya Akarere ka Gasabo na Bugesera kimaze kuzura aho abantu batandukanye barimo abana ndetse n'abakuze batangiye kugikoresha mu buryo rusange.

Ibiro by'Akarere ka Nyagatare byubatswe neza mu buryo bugezweho ugereranyije n'imyaka yagiye itambuka kuko ubu ngubu abaturage baza babigana, baba bafite byinshi bahuriyeho ndetse baje no kureba.

Ahakorera inteko y'ururimi n'umuco, hakomeje kuba ikitegererezo bitewe n'ibikorwa byo kuvugurura ubusitani bwaho, ibi bikaba bituma abantu bahagenda babanza guhagarara bakareba ibyiza byaho.

Mu bikorwa byo kuvugurura u Rwanda hari ingamba zagiye zifatwa mu kubaka ndetse no gushyiraho amatara kuri buri nkengero z'umuhanda mu rwego rwo kwirinda ibisambo byambura abantu ku masaha y'umugoroba.

Zimwe mu mpamvu Leta y'u Rwanda ikomeje kuba ubukombe mu kuyobora abaturage neza, hariho amabwiriza ajyanye n'Akarere y'uko buri wese aba agomba gukunda Igihugu, agakorera ku ntego ndetse akanasigasira ibyagezweho.

Ibikorwa byo kuvugurura sitade zerekana imipira y'amaguru harimo no kuvugurura stade yo mu karere ka Huye bityo bigatuma n'ikipe ya Mukura vigitori siporo ibasha kubona ikibuga izajya ikoreraho imyitozo.

Mbere y'uko abarimu bajya mu kazi kabo inama y'igitaraganya yateguwe ndetse umuyobozi w'ikigo cy'amashuri agira inama abarimu z'uko mu gihe bari kwigisha bagomba kubwira buri munyeshuri wese ko kwipimisha ndetse no kwirinda ihohoterwa ari byizayiza.

Mu muhango wabaye kuri uyu wa gatandatu, hari bamwe bashyize indabo kumva, bibuka intwari yabo bari bafite, yahoraga ibarwanira ishyaka kugira ngo batere imbere.

Mu buryo bwo kwirinda ruswa ndetse n'akarengane, mu nama yateraniye mu mudugudu wa Kabarore, umusaza ukuze cyane yabwiriye ubuyobozi ko yahuye n'abayobozi babi bamuringaniyije mu butaka yari yaguze.

Bamwe mu bagabo bari barenganye agafatirwa igihano byabaye ngombwa ko ashyirwa imbere y'ubutabera maze akagirwa umwere ndetse agahabwa n'indishyi y'akababaro n'inzego z'umutekano.

Umupolisi wambaye ingofero, amadarubindi ndetse akaba afite na mikorofone mu ntoki, yabwiye abaturage yuko bagomba kwirinda gutanga cyangwa kwakira ruswa.

Mu rwego rwo kurwanya ruswa ndetse n'akarengane, hateguwe ubukangurambaga, bushishikariza abantu kwirinda, kwakira ndetse no gutanga ruswa, kuko bishobora kubaviramo ibibazo bikomeye.

Hari ibyapa bigaragaza amategeko y'umuhanda ariko hari n'ibindi bigaragaza inyubako iyo ariyo cyangwa se umuhanda uwo ari wo, mu gihe biri ngombwa.

Imihanda ya kaburimbo, ni ngombwa ahantu hose ihaba no muri karitsiye abantu batuyemo, bitewe n'uko igihe hari imihanda mibi, bibangiriza ibinyabiziga yaba amamoto n'amamodoka.

Uturango twerekana umuhanda uwo ari wo umuntu agezemo, dukomeje kwifashishwa cyane n'abamotari ndetse n'abandi bakora ingendo zitandukanye, mu buryo bwo kugira ngo bagere ku iterambere ryabo bifuza.

Amatorero n'amadini akorera mu karere ka Nyagatare, arasabwa kujya ashyiraho ibyapa biranga ahantu baherereye, nibura muri metero ijana.

Mu buryo bwo guteza imbere ibikorwa byo gutwara abantu mu buryo bwa rusange, ni ngombwa ko hashyirwaho ibyapa by'aho amabisi aparika kugira ngo abantu babashe kuyakoresha.

Mu bikorwa byo gufasha abatishoboye, abakoreye umuganda usoza ukwezi mu Karere ka Nyabihu bateraniye hamwe ubundi bikorera amabuye ndetse n'ibitafari mu buryo bwo kugira ngo bubakira utishoboye.

Abaturage bakora umuganda, bavugwa yuko, aribo bantu b'ingenzi mu gihugu kuko baba bubaka u Rwanda rwabo ndetse bakabaho bishimye kandi ibyo bikorwa ari n'ibyabo.

Igikorwa cy'umuganda ni ingenzi cyane, bitewe n'uko igihe gikozwe neza, buri muntu wese aba afite uburenganzira ndetse n'inshingano zo kubungabunga igihugu ke, ariko anagiteza imbere.

Birakwiye ko umusirikare cyangwa n'undi muntu wese uhagarariye inzego z'umutekano, mbere yo kugira ngo abantu basoze umuganda agomba kubaha ijambo ry'ibanze kugira ngo bose batahane akanyamuneza.

Abantu batandukanye barimo n'umubyeyi ukuze ni bo bavuze yuko Polisi y'u Rwanda igomba kujya ihana abantu bakubita abandi ndetse bakabambura.

Abasirikare bari mu bikorwa byo gucunga umutekano baciye ku baturage bari gukora umuganda ubundi na bo bifuza kuwukorana na bo.

Mu rwego rwo kunoza ndetse no gutanga amahugurwa ku bifuza kujya mu kubungabunga umutekano w'ingabo z'igihugu, polisi y'u Rwanda ku bufatanye n'abasirikare, bahuriye mu gikorwa cyo gukangurira urubyiruko kugana iyi gahunda kuko ari ingenzi.

Mu rwego rwo kunoza imikorere y'umuganda ngarukakwezi, inzego z'ubuyobozi zirimo iz'umutekano nka polisi, daso n'abasirikare bifatanyije n'abaturage muri icyo gikorwa.

Mu bikorwa bitandukanye by'umuganda, hakorwa imihanda ndetse n'ibindi bikorwa remezo bikwiye gushyirwamo ingufu, mu rwego rwo kugira ngo u Rwanda rukomeze kuguma kuri gakondo yarwo yo gusukura ahantu aho ariho hose.

Abaturutse mu nzego zishinzwe umutekano baje gushyigikira igikorwa cya Imbuto fawundesheni, aho umwana w'umukobwa bavuga ko akwiye guhabwa umwanya mu burenganzira ubwo aribwo bwose yaba yemerewe yaba n'ubw'abahungu.

Nyuma y'igikorwa cy'umuganda cyari giteganyijwe, abaturage bicaye ubundi bumva ijambo ry'umukuru w'akagari ndetse banakangurirwa gukora iki gikorwa kuko ari indashyikirwa.

Mu mukino wahuzaga Amagaju ndetse n'ikipe y'igihugu ya Mukura, umusifuzi yakuyemo nimero umunani ashyiramo enye, maze nyuma y'iminota itanu ibitego bitatu biba birinjiye.

Mu guconga ruhago birakwiye ko bamba inkweto nziza kandi zijyanye na siporo, amasogisi, n'ikabutura ndetse n'umupira kugira ngo bigufashe kwirukanka kandi ubashe guhamya n'umupira neza.

Abakinnyi babiri bambaye imyenda y'ubururu, amasogisi y'icyatsi n'inkweto za siporo, bakinnye umukino n'ikipe ya Sunrise aho yo yambara imyenda y'imihondo.

Abana cyane cyane bari mu kigero cy'imyaka umunani n'icumi, barashyirwaho igitutu n'ababyeyi babo, ko bagomba kwirinda imikino ivunanye kuko bashobora kuhavunikira.

Gukina imikino itandukanye irimo iy'amaboko ndetse n'iy'amaguru cyane cyane izwi mu ndimi z'amahanga nka Football ni bimwe mu byagiye bishyirwamo amafaranga atari make mu kubishyigikira.

Kugenda mu muhanda wigengesereye ni byiza kuko nta mpanuka nyinshi zivamo bitewe nuko igihe abantu batwara ibinyabiziga basinze, bashobora gukora impanuka.

Imirongo ivunaguye mu muhanda ifite byinshi isobanuye cyane n'indi mirongo itavunaguye bitewe n'uko igihe iyi mirongo umuntu atayitondeye ashobora gukora amakosa agiye atandukanye atera impanuka mu muhanda.

Imihanda inyura mu nshe zigiye zitandukanye mu mujyi wa kigali, yagiye ivugururwa ndetse ishyirwamo kaburimbo, mu rwego rwo kugira ngo himakazwe gahunda ya sukura mujyi.

Amagare na yo yarakomorewe bitewe n'uburyo bakomeje kugenda bateza impagarara ndetse banasaba ubuyobozi bw'Igihugu kugira ngo na bo babashe kwiteza imbere aho ubu basigaye batwara imizigo.

Abakora ibikorwa by'ubwikorezi bw'imyanda ndetse n'ibindi bikoreshwa mu kubaka nk'imicanga, bavugwa y'uko bagira umwanda bitewe no kutoga ndetse no kwambara inkweto zabugenewe igihe bagiye mu ruhame.

Mu muhanda w'igitaka uherereye mu Karere ka Gatsibo biravugwa ko abawukoresha cyane cyane abadamu bagiye mu misa, ubanduriza imyenda ndetse inkweto zabo zikajyaho ivumbi kuko udakoze neza.

Imwe mu mihanda ikoreshwa mu makaritsiye amwe n'amwe mu byaro ndetse no mu migi, abaturage barasaba ko bakubakirwa imihanda igezweho izwi nka kaburimbo mu rwego rwo kwirinda ibyondo ndetse n'imyuzure.

Umuntu wese akora igikorwa cyo gutwara abantu n'ibintu asabwa nibura gukora imihanda kugira ngo azabashe kugeza imbuto cyangwa se ibindi bicuruzwa ku isoko.